Umutekano ni mwiza kuko utuma abantu bakora imirimo yabo mu mutuzo, ahantu hakaba urujya n'uruza kandi umutekano utuma abantu bavana hamwe bajya ahandi, bakora n'ibintu byinshi bitandukanye kuko baba bafite amahoro.

Iyo abayobozi batandukanye bari ahantu cangwa se n'inzego z'umutekano urugero nk'abapolisi, bituma aho hantu haba hizewe kandi nk'iyo hari umuyobozi mukuru uhaje nk'umuperezida cyangwa se n'undi muyobozi mukuru bamwakirana icyubahiro cyinshi kandi abaturage bari muri ako gace abayobozi barimo, baba bizeye umutekano w'aho bari.

Imfungwa ni abantu baba bafashwe n'abapolisi, bakabajana kubafunga bambaye amapingu, cangwa se igihe bakoze ibyaha. Hari n'igihe baba babakuye mu mihanda ari mayibobo, bakabajana kugira ngo babagorore, bazamenye nabo kwihangira imirimo babeho neza kandi babeho batekanye.

Abapolisi, abasirikare ndetse n'abayobozi badufasha mu mutekano w'igihugu, cangwa se nk'iyo perezida araza ahantu runaka bakamufasha mu kumuyobora aho ari bwerekeze, kandi bakamucungira n'umutekano kugira ngo atagiraho ikintu kmuhungabanya.

Polisi, abasirikare ndetse n'abayobozi badufasha mu gucunga umutekano w'igihugu, abantu bagakora imirimo zabo batuje, bari mu mutekano, bakava ahantu hamwe bakaja ahandi, bakavana ibicuruzwa ahantu hamwe babijana ahandi, kuko haba hari umutekano mu gihugu binyujijwe ku bapolisi n'abasirikare n'abayobozi.

Abasirikare badufitiye akamaro kanini cyane, kuko baducungira umutekano w'igihugu cyacu, kandi bagahangana n'umwanzi waba ashaka kutwataka, iyo abasirikare bari gucunga umutekano neza, bari ku murongo bameze neza, bambaye iniforume zabo bituma umutekano w'igihugu gwiyongera, kandi n'abaturage bakigirira icyizere cyo gukora, kuko baba biringiye umutekano.

Iyo mu mujyi cyangwa se mu gihugu gikomeye hari imbwa zisaka ibikapu by'abantu bagiye nk'ahantu runaka, bagiye kurira indege cyangwa se zikaba zasaka nk'ibisasu, cyane cyane haba hari umutekano wizewe, kuko nta muntu wakwinjiza igisasu mu gihugu cyangwa se ngo abe yakivana mu gihugu kimwe akijyane ahandi hantu, kuko izi mbwa nizo ziba ziri gusaka.

Iyo mu gihugu harumutekano abapolisi bari gucunga umutekano ubwabo neza bituma babona ibintu byinshi urugero nko kubereka uburyo bacanamo gaze bakabimenya bamara kubimenya bakazabikoresha iwabo mu ngo zabo kandi umutekano gutuma abantu batekana aho bari ahariho hose.

Iyo abacungagereza bari ku murongo kandi nanone hari n'abari gukora imyitozo, bituma bacunga gereza neza, bikabafasha kuba bayobora abagororwa bakabayobora mu mucyo, kandi ibi bitanga n'akazi kuri wa mucungagereza, wagiye gukora akazi ko gucunga abagororwa.

Indege ivana abantu mu gace kamwe ibajana ahandi, cangwa se ikavana abasirikare cyangwa abapolisi mu gace karimo amahoro, ibajyana mu gace katarimo amahoro, kugira ngo baje gutanga amahoro muri ako gace bagiyemo. Kandi iyo ahantu hari amahoro, indege ibasha kuba ihagaze mu mutuzo kandi ifite amahoro.

iyo abagore n'abagabo bari mu nama bicaye bumva ijambo ry'umupolisi bituma bamenya ikintu gituma umutekano wiyongera kandi bigatuma banagira uburenganzira bungana bwo kuba bari ahantu hamwe kandi bigatuma ubwo umutekano w'igihugu wiyongera kuko baba babishishikarije abaturage nabo kugiramo umutekano.

Umutekano ni mwiza kuko utuma abantu bava mu gace kamwe baja mu kandi, bakoresheje ibinyabiziga nk'imodoka, cyamba se bagakoresha n'ibindi bitandukanye, kandi iyo hari umutekano, abantu bahinze babasha kuvana ibihingwa byabo aho babihinze babijyana aho barabigurishiriza.

Iyo habaye ihuriro ry'abayobozi baturutse mu bihugu bitandukanye biba ari byiza kuko bituma abo bayobozi basabana n'abaperezida b'ibihugu bakamenyana bakaganira ku bintu bitandukanye bakabifatira umwanzuro aho babina hari ikibazo bakagikemura kandi bakareba nokubijanye n'umutekano gw'ibihugu bitandukanye.

Iyo ahantu habaye ihuriro ryahuje abantu benshi batandukanye ,bavuye mu turere dutandukanye bafite ibyo bari kuganiraho bituma bishimana ,kandi baba bafite n'uducupa tw'amazi kugira ngo bataza kugira inyota, ibi bigatuma ubwonko bwabo buruhuka kandi bagahuza n'ibitekerezo ,bikabafasha gutekereza ibintu bimwe.

Ihuriro riba ari ryiza cyane kuko rihuza abantu benshi batandukanye, abagore abagabo baturutse mu duce twinshi dutandukanye, n'abayobozi baturutse ahantu henshi hatandukanye, bakaganira ku bintu byinshi ku mutekano ku bintu byabateza imbere, bityo bagahuza umugambi bagahuza n'ibitekerezo, bagafata umwanzuro wo kubibabangamiye n'ibyabateza imbere.

Igisabo cyabaga ari cyiza urugero nko kugishyira ku kirago umubyeyi yicaye agifashe yambaye n'umushanana, byabaga bigaragara neza kuko ari umuco w'abanyarwanda kandi akaba ari umuco uzahoraho igihe cyose.

Igiseke ni igikoresho gikoreshwa mu rugo ushiramo nk'imyaka cyamba se ujya gusura nk'umuntu, igiseke cyifashishwa ahantu henshi hatandukanye nko mu rusengero baturiramo amafaranga, cyangwa se nk'ahantu bakorera ubukorikori, bityo kigafasha umuntu ukireba kuryoherwa kandi agashimisha amaso ye.

Inzu y'ubukorikori ni inzu icururizwamo ibintu by'ibazanyo cyangwa se ibintu byakozwe n'amaboko y'abantu, kugira ngo abakerarugendo cyangwa ababazungu baje baza kubigura n'undi wese ubikeneye abitake mu nzu ye, abirebe amaso ye anezererwe, kandi inzu y'ubukorikori itanga akazi ku bantu bagiye kugasaba.

Ingoma yifashishwaga igihe ababyinnyi bari kubyina. Abakaraza bakayikoma, bamara kuyikoma umubyinnyi akabyina mu njana nziza, yamara kubyina abamureba bakishima, bakanezerwa bityo iyo njana y'ingoma ikaba iryoheye amatwi no kuyumva.

Iyo abakaraza bari kuvuza ingoma bambaye imishanana, bambaye n'ibinigi kandi bafite n'imbere yabo umuyobozi uri kubereka uko bari bukome ingoma, bituma abantu babareba bishima kandi bakanezerwa na bo ubwabo, na bo bari kuzikoma bakishima kandi....

Uruho ni igikoresho bakoreshaga igihe bari kunywa nk'inzoga cangwa se bari kunywa nk'urukoma. Mu gihe ca kera, uruho barubazaga camba se barukoraga mu gihaza. Bityo bigafasha umuntu warukoze kurwifashisha mu rugo rwe nk'igikoresho, maze akaba yarudahisha amazi akarukoresha n'ibindi byinshi bitandukanye.

Agaseke kaboshwe neza ndetse n'umutemeri, biba bigaragara neza kuko bifasha abantu nko gutaka cangwa se kubijanamo ibintu bagiye gusura nk'abantu. Imikako camba se urunigi, ruba ari rwiza. Ruba rugaragara neza kuko abantu bararutaka mu mazosi yabo cangwa se abasore bakarwambara, igihe bari mu bukwe bwo gusaba no gukwa.

Amamera avamo umusururu abantu banywa cangwa se abantu bakagahekenya kandi amamera iyo bayakoze umusururu utuma abantu basabana bagahora bari kugunywa kandi amamera atuma umuntu wayinitse abona amafaranga iyo yayajanye ku isoko agakemuza ibintu byinshi bitandukanye.

Agasero gafite n'umutemeri wako, kabaga kaboshwe neza, kuko kabaga kagaragara neza, kaba kanakomeye, abantu bakifashisha, mu gushiramo imyaka itandukanye, cyangwase mu kugakoreha, nk'imitako, guha ahantu runaka kakaba kahabereye, kandi kabereye amaso.

Iyo abakobwa bateze amaboko bari kubyina kandi baseka, bambaye imishanana biba ari byiza, kuko bashimisha ababa bari kubareba, kandi bakaba banagororoka ingingo zabo, urugero nk'amaboko n'amaguru kandi bakaruhuka mu mutwe.

Ikibindi ni igikoresho cy'umuco gakondo babumba mu rwondo, kikifashishwa mu guteka ibiryo cangwa se mu mitako. Ikibindi gituma ababumbyi babona amafaranga yo kubatunga mu buzima bwabo, kandi bikanabafasha gukomeza kubaho neza.

Gusya amasaka ku rusyo ni umuco gakondo gw'Abanyarwanda. Basyaga amasaka y'amakoma cangwa se amamera, bakabona ifu yo gutekamo igikoma. Iyo abantu basyaga b'abakobwa cangwa se b'abagore babaga bapfukamye ku mukeka cangwa se ku karago. Bagasya ifu ikaja ku gakoko, cangwa se ahandi hantu bateguye haba ku mufuka cangwa ahandi.

Umuduri ni ikoresho gakondo wifashishaga baririmba indirimbo gakondo cyangwa se indirimbo nyarwanda bityo bigatuma injana y'indirimbo iba nziza bitewe nugu muduri.

Kunywesha imiseke mu kiduki ni umuco gw'abanyarwanda bakoraga igihe ahantu habaye ubukwe cangwa se hateraniye imbaga bakanywesha imiseke kugira ngo imiryango itandukanye isabane ihane ikaze mu rugo hateraniwe abo abantu benshi batandukanye.

Iyo intore iriguhamiriza ifashe ingabo ifashe n'icumu yambaye amayogi, kandi yambaye n'ibihura, yambaye n'imishanana bituma abantu bareba izo ntore bishima bakanezerwa ndetse bakanaruhuka mu mutwe kandi iyo ari nk'amarushanwa bituma utsindiye ibihembo abibona.

Umugosozi iyo afashe intara akagosora ingano, izo ngano ziri ku mashitingi bituma abona umusaruro usa neza ni uko uwazihinze akazijana ku isoko ,yazijana ku isoka akazigurisha, akabona amafaranga cangwa se atazigurisha akazibetesha akazinywamo igikoma cangwa se imitsima cangwa se akazikoramo imikati iwe mu rugo.

Kuvugira inka n'umuco w'abanyarwanda, aho bazanaga inka bakazishyirara imbere, inka z'inyambo bakazivugira imbere y'abakwe kugira ngo bishime kandi banezerwe aho bari.

Kubyina nk'intore ni umuco gakondo w'Abanyarwanda. Umubyinnyi yambaye imishanana, amayogi , ibihura ndetse n'amacumu cyangwa se abaririmbyi bafashe imyirongi n'amaningiri bari gufasha uwo muntu uri kubyinira imbaga.

Ikibuguzo gikinwa n'abantu babiri batandukanye, agamije kureba umuntu uri butsinde undi, cangwa se hagamijwe guhabwa ibihembo hagati y'abantu babiri. Bakabiha uwatsinze kurusha uwundi kandi ikibuguzo gituma abantu basabana, bagaseka, bakishima bakaruhuka mu mutwe.

Intore ni ababyinnyi babyina imbyino gakondo hifashishijwe amayogi, ibihura, amacumu ndetse bambaye n'imishanana bakabyina, aho babyinira ababareba bakishima, kandi bakaruhuka no mu mitwe yabo.

Umubyinnyi iyo ari kubyina yambaye amayogi biryoshya umudiho, kuko iyo ayo mayogi ari kubyina akavuga bituma abantu bishima bakanezerwa kandi nawe ubwe akishima kuko ababyina neza akoresheje n'amayogi.

Inzu y'ubukorikori icururizwagamo uduseke, udukoko, imitako n'ibindi, iba ari nziza kuko iyo abantu babiguze, uwabiboshye abona amafaranga yo gukemuza ibindi bintu no kugura ubundi bwatsi akaboha no kugura imifuka yo gukoramo utudeyi azabohesha.

Gukina ikibuguzo ni umuco wa kera abantu b'abagabo bakinaga kugira ngo bishime, banezerwe, kandi bakagikina kugira ngo hagire utsinda, utsinda akorera ibihembo, ibyo bihembo bitume ajya kugura ibyo akeneye, kandi gukina ikibuguzo byatumaga abantu basabana hagati yabo.

Isekuro ni igikoresho gakondo bakoreshaga basekura nk'isombe, gusekura amasaka, gusekura ibigori, niba basekuye ibigori ubisekuye akabona ifu. cyangwa se isombe ukayiteka, kandi isekuro yasekurirwagamo imiti bifashishaga bavuza abantu.

Ubuhigi ntibwemewe mu Karere ka Musanze cangwa se mu Rwanda rwacu, kuko iyo abahigi bahize inyamaswa z'agasozi, bituma zigabanyuka, ba mukerarugendo ntibaje barabona ico baza gusura, cane cane nko mu gace k'ibirunga n'imisozi ziherereye mu Kinigi.

Imitako zibaga ari myiza kandi n'imitako iyo umuboshi yaziboshye, bituma abona amafaranga, ago mafaranga akaguramo ibindi bikoresho azabohamo izindi mitako cangwa se akagifashisha ari gukemura ibindi bibazo bwite yihariye iwe mu rugo.

Uburo iyo bweze buvamo umusaruro uwagusaruye akagujana ku isoko kandi uburo iyo bweze bushobora kubushira iwawe mu urugo wamara kubushira iwawe mu urugo ukabura ukazabunywamo igikoma cangwa se ukabujana ku isoko ukagura ibindi bintu ukeneye.

Igisabo ni igikoresho gikoreshwa mu gihe c'ubukwe, ibirago mu muco gakondo w'abanyarwanda babohaga bakoresheje ubwatsi n'udufuka ndetse n'ibirere bakabitaka cyangwa se bakabyicaraho kandi bikaba bibereye amaso ku bireba.

Intore iyo zibyina ziseka, zambaye ibihura, bambaye n'imishanana ,baba bagaragara neza kuko iyo babyina baseka baba batuma ababareba bishima, cangwa se n'iyo bari kuvuza ingoma baba batuma ababareba bishima kandi baseka.

Ibicuma ndetse n'imiheha cyangwa se imiseke, iyo biri ku birago biba bigaragaza umuco nyarwanda, igicuma urugero cyakoresheshwaga mu bukwe n'ubwo na nubu kigikoreshwa bakazana n'imiheha bagaha abasaza bakanyweramo inzoga, bityo ikabaryohera, naho ibirago byo bakabyicaraho bari gukora ibintu byinshi bitandukanye.

Abakaraza batuma ababyinnyi babyina mu njana ingoma ziri kuvugamo, kandi abakaraza batuma ubyina imbyino abyina yishimye ko aba afite injyana ari kubyina, bitewe n'uko umukaraza ari kuvuza ingoma.

Ingoma bazikoresha iyo bari kubyina, abakaraza bazivuza, ababyinnyi bakabyina neza mu njyana nziza. Kandi ingoma zifite imirishyo ni zo zituma umubyinnyi abyina yishimye kandi n'ababyinira bakanezerwa.

Imitiba ibamo inzuki. Izo nzuki zikabyara ubuki, ubwo buki bwamara kuboneka abantu bakaburya cyangwa se bakabukoresha nk'umuti igihe umwana yarwaye nko mu kanwa bamuha ubuki kugira ngo abashe gukira ibisebe aba yarwaye mu kanwa, kandi ubuki ni bwiza butuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Iyo abagabo bari gukina ikibuguzo, kandi bari kunywa n'inzoga bashagawe n'abana, biba binejeje kandi biba biteye ibyishimo, kuko bituma basabana bakaba batashwana, bagahuza ibitekerezo n'umugambi . Kandi n'iyo hari abana bituma na ba bana bakura bazi kugikina, na bo bakajya basabana mu gihe cyabo, igihe bazaba barakuze.

Iyo intore ziraguhamiriza zifashe amacumu, zambaye ibihura, zifasha n'ingabo, ziri kubyina neza iteka biba ari byiza, kuko bituma zishima, zikaruhuka no mu mutwe kandi n'amagufa yazo akagororoka, kandi bigatuma n'ababareba bishima bakanashimisha amaso yabo.

Iyo ababyinnyi bari kurira ku nkoko bakanywera n'inzoga mu gicuma, ni umuco w'abanyarwanda kuko inkoko yatumaga ibiryo biryoha kandi bikaba bisa neza bikaryohera abantu bari kubirya naho inzoga yo mugacuma yo iba ari nziza kuko iba iryoshye, iryoheye n'umuntu uri kuyinywa.

Inka z'inyambo zabaga zifite amahembe maremare kandi zakundaga kuba mu burasirazuba. Zabaga zigaragara neza bakazitaka zikaza mu birori, abantu bakaza kuzisura bakareba uburyo ziteze amahembe neza.

Umuzinga bawifashisha bari gukama nk'ibitoki, kandi nk'iyo bari gukama ibitoki barabikama bikavamo umutobe, uwo mutobe bakaba bakuramo inzoga cyangwa se bakaba banawucanira bakawujyana ku isoko, kandi uyu umuzinga gutanga akazi ku muntu wagubajije bakawugura bakamuha amafaranga, bakawukoresha ibindi bintu bakeneye.

Umuco wo gushyigirwa ni mwiza kuko uhuza imiryango ibiri itandukanye itari iziranye igasabana ikamenyana kuko baba bashyingiranye abana babo kandi umuco w'ugushigirwa ni mwiza kuko utuma umuco w'igihugu ugumaho uko kandi nanone utuma abantu bihesha icyubahiro iyo bakoze umuco wo gushingira.

Intore z'ibwami zarabyinaga kugira ngo zishimishe rubanda rwaje kureba umwami, zikabyina mu muco wa kinyarwanda zifashishije amayogi ,ibihura ,n'ingabo n'amacumu.

Umuco ni mwiza kuko nk'iy'ahantu hari igisabo, hari isekuru ndetse hariho n'ingata, hakabaho ingobyi yo guhekamo, hakabaho n'ibindi bintu byinshi bitandukanye nk'udukezo, haba hagaragara neza kuko bitwibutsa umuco wa kera w'Abanyarwanda.

Intore zibyina mu bukwe ahantu habaye ibirori babyina imbyino gakondo, bifashishije amayogi, ibihura, amacum,u imyenda, imishanana, n'izindi myenda zabugenewe bagashimisha abantu bababona.

Guheka umugeni mu ngobyi ni umuco gwa kera gw'abantu bakoraga igihe bashingiye umugeni ,bakamuvana iwabo bakamujana iwabo w'umusore bamuhetse mu ngobyi kandi ari hejuru ,bashize imijishi ku ntugu zabo abagabo b'inkorokoro, kugira ngo bamujane aho bashakako ashingirwa.

Igitwe ca sharijeri gikenerwa iyo umuntu akeneye gucayinga telefone, akagicomeka muri purize kigakurura umuriro, noneho agacomekaho n'umugozi agashyira muri telefone, maze telefone ye ikajamo umuririro bityo Iki gitwe ni ingenzi, kuko kidahari umuntu ntabwo yabona uko acayiga telefone ye.

Irerero ni inzu yubakwa na Leta cangwa se igatangwa n'umuturage kugira ngo abana bazaje barigiramo bagire ubumenyi butandukanye cangwa se babone n'iby'ibanze bibafasha kugira ngo bazaje mu yandi mashuri, kandi Irerero ritanga akazi ku babyeyi bahegereye.

Inzu zubatswe mu mudugudu zituma abatuye muri uwo mudugudu bishima, kandi iyo ingamba za Leta zifashwe hakemezwa ahantu hagomba kubakwa umudugudu, biba ari byiza kuko abaturage babona ko bitaweho na Leta. bakabakorera n'umuhanda gunyuze muri ugo mudugudu, aho kwiyakirira hubatse n'amatente igihe bagize ibirori.

Umusigiti gutuma abasilamu batuye muri ako gace gubatsemo baza gusenga, bakaramya lmana yabo. Kandi umusigiti gutuma abantu bari muri ako gace bizera Imana kandi bakayemera.

kubaka inzu zifite isuku ni byiza kuko iyo inzu zifite isuku hari igipangu cyiza hariho na jaride bitanga akazi ku bantu bazakorera ya jaride, ku muzamu uzarara kuri cya gipangu bityo bose bakagira amafaranga yo gukemuza ibindi bintu bakeneye

Urusengero cangwa se ikiliziya ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi baje kumva ijambo ry'imana, batega amatwi uribasomera akanaribasobanurira, kandi bagatura amaturo yo kubafasha mu bikorwa bitandukanye nk'ibyo gufasha abarwayi, n'abandi bantu benshi bafite ibibazo bitandukanye.

Ikiliziya kibaga ari ciza, kuko ahantu cubatswe abakirisitu Gatolika bemera Imana baja kugisengeramo, baja kugisengeramo bagahimbaza Imana, bagatura amaturo yifashishwa mu bikorwa bitandukanye kandi ahantu hari kiliziya hagera ibikorwaremezo nk'imihanda, amashuri, n'ibindi bitandukanye.

Iyo Leta yubatse amashuri gameze neza, igashiramo ibitanda bimeze neza maze abanyeshuri bagasasa neza bitumaga baryama ahantu hasa neza bakagira ubuzima bwiza, kandi bakiga neza, kuko baba bafite aho kurara heza, bakagira n'amashuri meza, bigatuma babasha gutsinda, bakagira amanota menshi.

Ingamba za leta zo kubaka amashuri ahantu heshi hatandukanye ni ingenzi kuko bituma abana baturiye amashuri bajya kuhiga, bakagira ubumenyi butandukanye kandi bwinshi, bityo bigatuma igihugu kigira injijuke nyinshi.

Iyo leta yubatse amashuri biba ari ibintu by'ingirakamaro, kandi ayo mashuri iyo yegereye ahantu hari ibiti bituma ayo mashuri ahoraho amahumbezi, kandi abana bakahiga bishimye kandi bameze neza, bityo bakagira ubumenyi bwinshi kandi bakanabaho ubwonko bafungutse.

Umuhanda gunyuze mu misozi guba ari mwiza, kuko gufasha abaturage bahaturiye kuva ahantu h'ibyaro baja mu mugi kandi gukanarinda isuri, imodoka zikagunyuramo, kandi bigatanga akazi ku baturage bakuburaga ugo muhanda.

Uburezi ni ingenzi kuri hose na bose kuko bituma n'abarimu biyongera mu gihugu, injijuke zikaba nyinshi kandi abarimu iyo biyongereye bituma n'abana bagira ubumenyi bwinshi bityo bigatuma igihugu gitera imbere kikagira abantu benshi bajijutse.

Gutura ku midugudu ni byiza, kuko iyo abaturage batuye ku midugudu bibafasha gusabana bitabagoye, kandi icyo umuntu umwe akeneye akakibona ku wundi bitagoranye, kandi bikabafasha no kugira ngo babone ibintu by'ibanze nk'amashuri n'ibindi.

Iyo abaturage bari gukora umuganda, biba ari byiza, kuko abantu batuye ku midugudu, iyo bubakiwe inzu na Leta, bakajya no gukora umuganda, bitanga icyizere kuri Leta, bakavuga bati dufite abaturage beza, bumvira kandi bakora icyo bagomba gukora neza kandi.

Kubaka ku mudugudu ni byiza kuko iyo Leta ifashe umwanzuro cyangwa se umugambi wo kubakira abaturage ku mudugudu, bituma abaturage baba batuye begeranye kuko ntawagira ikibazo ngo abure umutabara kandi bitanga n'ubuzima bwiza ku baturage bazatura muri ya mazu bubakiwe na Leta mu mudugudu.

Urusengero cangwa se Kiliziya ni ahantu basengera, abakritu bemera Kristo bakaja kuramya no guhimbaza Imana yabo, kandi urusengero rufasha abantu bakeneye gusingiza Imana gusenga, abafite ibibazo bigakemukira imbere y'Imana mu rusengero kandi urusengero rufasha abantu kuganira n'Imana.

Urusengero ni inyubako yubakwa kugira ngo abantu bajye bayisengeramo, kandi ni inyubako yubakwa kugira ngo abantu baje barahura n'Imana yabo, bayiramye kandi bayihimbaze, bahuze ibitekerezo, bahuze n'umugambi, mu byo bakora byose bya buri munsi.

Umuhanda wo mu mujyi utuma hatabaho impanuka nyinshi mu muhanda, urugero nk'impanuka z'imodoka, n'abantu baba bagenda nta kibazo, kandi bagenda ku mutuzo iyo ari umuhanda muzima hari n'amatara ku muhanda, bituma abantu badakora impanuka cyane nko kugwa gutewe n'uko nta matara aba ari ku muhanda.

Kubaka urusengero bibaga ari ingenzi kuko iyo abantu bubaka urusengero bitumaga abantu baja gusengeramo kandi aho hantu bafite urusengero iyo hari ibiti bitandukanye nk'ibyavoka n'ibindi haba hari amahumbezi hari umwuka mwiza iyo abantu bagiye gusenga mu rusengero cyanga se mu kiliziya bituma abasabana n'Imana nabo ubwabo bagasabana.

Musenyeri ni umuntu uba ukuriye kiliziya gatolika, muri diyoseze runaka, kandi musenyeri aba ari umushumba ukuriye abapadiri, ba diyosezi yose musenyeri aba agomba kugira inama abakristu, abapadiri n'abandi bantu batandukanye.

Umuhanda wifashishwa mu bintu byinshi bitandukanye ibinyabiziga binyuramo bitwaye ibintu bitandukanye urugero nk'ibitwaye ibiribwa bigiye ku masoko , amamodoka atwaye abanyeshuri bagiye ku mashuri ,kandi umuhanda unyurwamo n'abanyamaguru bagiye ahantu henshi hatandukanye.

Amashuri yubakwa kugira ngo abanyeshuri baraje baraja kuyigiramo n'abarimu bigishirizemo kandi amashuri yubakwa kugira ngo igihe cy'imvura cyangwa se cy'izuba abanyeshuri bajye barabona aho bikinga imvura cangwa se izuba. Amashuri atanga akazi, urugero nk'aho ukubura muri jaride n'ibindi bitandukanye.

Uburenganzira bw'abantu ni ingenzi kuko butuma abagore, abagabo, abakobwa n'abahungu, bahurira nk'ahantu mu nama cyangwa se nk'igihe ahantu habaye urubanza buri wese akisobanura nta kubangamira umwe cyangwa uwundi kugira ngo ubutabera bukomeze gusagamba mu gihugu abo bantu batuyemo.

Iyo abagore n'abagabo, abasore n'abakobwa, bahuje uburenganzira babunganya, bituma abagore bisanzura bakaba babaza ikibazo nabo abantu bari, kandi bituma abagore bigirira icyizere, kandi tuzi ko kera abagore batari bafite uburenganzira bungana n'ubw'abagabo, ariko ubu barabuganyije, ubu ni iby'agaciro bose biragaragara neza.

Uburenganzira kuri bose ni ingenzi kuko iyo abantu banganyije uburenganzira bituma abagore n'abagabo bose bicara ahantu hamwe bari mu nama cyangwa se barimo nko mu rubanza bakeneye ubutabera, bakeneye no gucirwa imanza z'ibibazo bagiranye hagati yabo.

Uburenganzira bwa muntu ni ingenzi, urugero nk banyeshuri, ntihabemo ivangura, kuko abanyeshuri baba bagomba kugira uburenganzira bungana, urugero ntihabemo gushyamirana, no kugira ubutabera hagati yabo, kandi uburenganzira iyo abanyeshuri babunganya, bituma buri umwe wese aba agomba kwisanzura kuri mugenzi we.

Uburenganzira bwa muntu ni ingenzi kandi uburenganzira bwa muntu butuma abantu bisanzuranaho kandi bakaba bubahana ,bakaba bacirana imanza zitabera nko gufatira umwanzuro hamwe w'ikibazo runaka cyabaye kandi bagakemura icyo kibazo harimo ubutabera.

Ibimodoka binini mu muhanda, urugero nka dipine ni ingenzi kuko bitwaraga ibyo izindi modoka ntoya zidashoboye gutwara, kandi ibi bimodoka binini bituma umuhanda ukomera kandi bikanatuma umuntu uyitwaye akomeza kubona akazi iyo izi modoka ziyongereye mu muhanda.

Iyo mu muhanda hari kugendamo ibikamyo bitwara imizigo, bitanga akazi ku bantu bazapakurura ya mizigo kandi bigatanga akazi kuri ba bantu batwaye bya bikamyo kandi byorohereza urugendo ba bandi batereje byakamyo kugira ngo bibatwarire imizigo bi biyivane mu byaro biyijyana mu mugi.

Ibinyabiziga by'amamoto ni byiza uko bitwaraga abantu bikabavana mu gace kamwe bibajana ahandi kandi abamotari iyo batwaye moto babona amafaranga bwo gukemuza ibibazo byabo bwite hamwe n'ibyo mu rugo kandi bikanorohereza igihe ba bagenzi bavuye ahantu hamwe baja ahandi.

Iyo ahantu hari abanyonzi benshi baparitse, kandi bose bategereje abagenzi, bituma aho hantu abagenzi baba bazi ko nyine ariho barajya gutegera, kandi bikanoroshya igihe kuri ba bantu barava mu gace kamwe bajya mu kandi, bagenda ku magare. Kandi bigaha amafaranga aba banyonzi bakajyana mu miryango yabo, bityo bakabaho neza mu buzima bwiza.

Gare ni ingirakamaro kuko gare ihurirwamo n'abantu benshi cyane batandukanye, baturutse n'ahantu henshi hatandukanye, baje gushaka akazi cyangwa se baje gutega imodoka, zirabavana mu gace kamwe zibajyana ahandi. Kandi iyo Leta yubatse gare, bituma aho hantu hahita haba nk'umugi kugira ngo abantu bage baza gutegeramo imodoka.

Abamotari iyo baparitse bategereje abagenzi，bibafasha kuba bari muri sosiyete bahuje umugambi，kandi iyo babonye abagenzi， bibafasha gukemura ibibazo byabo bya buri munsi， bikanafasha aba bagenzi kuva ahantu hamwe baja ahandi. Iyo umumotari abonye umugenzi， bimufasha kujana amafaranga yo mu rugo，akayakemuza ibyo umuryango we ukeneye.

Ritiko iri muri parikingi hari igihe iba iparitse kugira ngo bazayoze iseneza bityo abagenzi barayijyamo, bayijyemo nta mwanda urimo bityo bagire ubuzima bwiza kandi ibafashe kugera aho bagiye nta kibazo na kimwe bagize.

Imodoka nini zitwara abagenzi, ziva mu gace kamwe zija mu kandi. Zishobora no kuva mu gihugu kimwe zikaja mu kindi urugero nk'u Rwanda zija mu Buganda, kandi imodoka nini zitwara abagenzi zitanga akazi ku bantu bazitwara, zigatanga akazi ku bantu bakuramo imizigo z'abagenzi bazirimo, kandi zigafasha abantu kuva mu gace kamwe baja mu kandi.

Iyo ahantu ku kiyaga cyangwa se ku kivu hari ubwato， bituma abantu bava mu gace kamwe bajya mu kandi, kandi iyo hari ubwato bugezweho bituma abakiriya biyongera kuri ubwo bwato, urugero nk’abazungu，umuntu uri gucuruza imitako，kandi bigatanga n’akazi ku muntu uzaba ari kuyobora bwa bwato.

Abamotari iyo bahuriye ahantu bamwe ,bari mu nama bahabwa amabwiriza n'abapolisi ,biba ari byiza kuko bamenyeraho amabwiriza yo kugenda mu muhanda batwaye abagenzi . Bakabatwara neza nta muvuduko mwinshi bariho.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu, gitwara imizigo y'abantu kiyivana mu gace kamwe kiyijyana mu kandi, kugira ngo gikomeze gufasha abantu batuye ahantu hatandukanye.

Moto ni ingenzi kuko igufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi，ikatuvana ahantu hamwe itujyana ahandi，igihe uvuye mu umujyi ujya mu wundi ukayitega，kandi moto ituma uva ahantu hamwe ugera ahandi bitakugoye， ikifashishwa mu mihanda itandukanye， yaba ari iya kaburimbo cyangwa se iya mu bitaka.

Iyo muri gare hari urujya n'uruza rw'abantu bituma imodoka zo muri gare zibona abagenzi, bari kuva mu gace kamwe bajya mu kandi. Kandi bigatanga akazi ku bantu bazaterura imizigo y'abagenzi cyangwa se ku batwazi b'imodoka cyangwa se ku bantu bayobora abagenzi mu modoka bari bujyemo bityo abo bose bikabafasha mu buzima bwabo.

Gare ya Rubavu yubatswe neza cyane kuko itanga akazi ku bantu bazana imodoka bagaparikamo babona abagenzi bo gutwara bakabavana mu gace kamwe bajyana ahandi, kandi hafi y'iyi gare haba hari umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, amamoto, amagare. Abantu bagiye guha bafasha utudobo bityo abo bose bikabafasha mubyo bifuza.

Imodoka bitaga dipine cangwa se hoho ibaga ari nini cane kubera ko ijagamo amakamyo ane cangwa se fuso ine z'umucanga. Izi modoka zitangaga akazi ku bantu bazitwara, abantu barapakira umucanga mu modoka kandi biba bisaba kugira ngo zinyure ahantu hari umuhanda munini mugari kandi wizewe.

Iyo umuntu uri gutwara imodoka arikuyitwarira mu muhanda umeze neza bituma yigirira icyizere, agatekereza neza ko atakora impanuka kuko aba ari mu muhanda umeze neza, kandi bitanga akazi ku muntu uzajya ahamagara abagenzi ngo bajye muri iyo modoka bityo bamuha amafaranga akayakoresha ibyo mu rugo, akabikemuza ibyo bakeneye.

Iyo abantu bari kugendera mu bwato bari mu kiyaga camba se mu ngezi baba bafite ubwirinzi kuko amazi aba adashobora kubajana, kandi baba bavuye ahantu hamwe baje ahandi wenda bagiye gucuruza cangwa se bagiye gushaka ibindi bintu bakeneye. Ubwato butanga akazi ku muntu wabubajije bityo bikamuha amafaranga.

Moto zifashishwa mu muhanda g'utuyira cyamba se imihanda zo mu mugi, kandi moto zifasha abantu kuva ahantu hamwe bajya ahandi, kuva mu gace kamwe bajya mu kandi, kandi bikorosha n'ingendo kuko moto zorosha igihe zigatuma umuntu akoresha igihe gito aho yari agiye.

Iyo abagenzi bari kujya mu modoka babanjije kwishyura umushoferi, bituma umushoferi atagira siteresi kuko aba yizeye ko abantu bose bari mu modoka ye bishyuye amafaranga. Ayo mafaranga bigatuma ayakoresha ibindi bintu akeneye kandi yifuza mu buzima bwe bwa buri munsi.

Gare iba ari ingenzi kuko nk'igihe cy'itangira ry'amashuri cyangwa se gutaha abanyeshuri bajya muri gare, bakajya gutega imodoka bakajya ku ishuri, cyangwa se iyo ari nk'igihe cyo gutaha bajya muri gare bakajya gutega imodoka bagataha iwabo, bityo ingendo zikoroha kuri abo banyeshuri, kandi na bo banyemodoka bakabona akazi kenshi, kandi gahagije.

Gare ni ahantu abantu baja bagiye gutega imodoka kugira ngo bave ahantu hamwe baja ahandi. Muri gare habamo abantu benshi batandukanye. Abaje gushaka akazi nk'ako gutwara izo modoka abo koza izo modoka, kandi hakoreramo abantu batandukanye nk'abacuruza ibiribwa, n'ibindi byinshi bitandukanye.

Iyo muri gare imodoka zirimo ari nyinshi abagenzi babasha kuva ahantu hamwe baja ahandi bitabagoye kandi badatakaje n'igihe, kandi izi modoka iyo zihari zitanga akazi ku bantu barazoza, abantu barazitwara, n'abandi batandukanye ,abarakuramo imizigo n'abandi benshi batandukanye.

Ibimodoka binini bitwara imizigo biba bigomba kunyura ahantu mu muhanda mu gari gufite amatara kandi ugo muhanda gurimo na porisi kugira ngo ziyobore izo modoka nini aho ziri bunyure kugira ngo zitagonga abantu.

Abanyonzi batwaraga imizigo baba bakenewe mu mujyi kuko iyo umuntu aguze nk'ibintu mu isoko by'ibiribwa, babasha kubikura aho yabiguriye bakabimujanira iwe mu rugo cyangwa se ahandi hantu arabigeza kandi abanyonzi batwaraga imizigo, bibafasha kugira ngo babone amafaranga barajana iwabo mu rugo yo gukemuza ibindi bintu bakeneye.

Iyo muri gare hari imodoka zirimo abagenzi, bituma abantu bari gutembereza ibiribwa babona abaguzi kandi bigaha n'akazi abantu bari kwakira abakiriya cangwa se abagenzi bavuye mu gace kamwe baja mu kandi. Iyo gare irimo imodoka nyinshi bitumaga abagenzi bihutisha igihe bakagera aho bari bagiye vuba.

Abanyonzi ni abantu batwara ibintu n'abantu abantu, babavana mu gace kamwe babajyana mu kandi, cangwa se bakajana ibintu babivanye mu gace kamwe babijana mu kandi. Abanyonzi baba ahantu h'umuhanda byamba se nk'umuhanda w'ibitaka cangwa kuri kaburimbo kugira babone amafaranga.

Umukino gw'iteramakofe ni umukino abakobwa camba se abahungu bakina kugira ngo bishimishe. Amagufwa yabo akomere, umubiri gwabo gukomere kandi amaraso atembere neza mu mubiri gwabo.

Kujya ku mazi gusura amazi cyangwa se gutemberera ku biyaga no ku bivu biba ari byiza kuko bituma umuntu aruhuka mu mutwe akishima, akananura amaguru ,kandi bigatuma siteresi zinagabanyuka mu mubiri we, bityo umubiri we ugakomeza gukora neza kuko uba ufite ibyishimo.

Iyo abana bari gukina umukino gwa tenisi bibaga ari byiza kuko bibafasha gusabana bagahura bagasuhuzanya bakamenyana kandi bigatuma babana neza badashamiranye bikabafasha gukura mu bwonko kugorora ingingo nk'intoki cyangwa se amaguru kandi bikanabafasha gukura bifitiye icizere.

Iyo ikibuga co gukinirwamo vole giteguye neza cubatse neza urugero harimo nka file, harimo n'ibindi birango byinshi bitandukanye biranga aho bakinira, umupira wa vole, bituma abakinnyi buri wese amenya ikipe aba arimo kandi akamenya ikipe ye aho ibi buhagarare bityo bigatuma amakipe yombi adashamirana.

Isiganwa ry'amagare ni igihe abanyamagare babitojwe cyangwa se babyiteguye, bava mu gace kamwe bajya mu kandi bahatanira ibihembo, kugira ngo uza kuba uwa mbere ahembwe bitewe n'uko bagiye barakurikirana. Kandi uyu mukino w'amagare utuma ingingo z'abawukina zigororoka bakaruhuka no mu bwonko.

Umukino wo gusiganwa hakoreshejwe imodoka ufasha abantu bawukinnye gusabana kandi ugafasha umuntu wabaye uwa mbere guhabwa ibihembo bimufasha mu muzima bwe bwa buri munsi, akagura ibyo akeneye bitandukanye kandi bikanamufasha kuruhuka mu bwonko, kutagira siteresi n'ibindi bitandukanye.

Siporo ituma amaraso atembera neza mu mubiri, amagufa agakomera, kandi siporo ituma ingingo zikora neza cane cane gukina nka basiketi bituma musabana nk'inshuti, abakina bituma babana neza muri sosiyete kandi ikabahuza, kuko yabahuje bahuriye mu mukino umwe.

Iyo abantu urugero nk'abakobwa bakoze siporo yo gukina umukino wa tenisi, bituma umubiri ukora neza ugashisha ndetse kandi n'amagufa yabo agakomera bityo bakagira ubuzima bwiza ,bakirinda indwara n'amaraso yabo agatembera neza mu mubiri.

Umukino wa basikete ni mwiza kuko uhuza amakipe abiri atandukanye ,bikabafasha gusabana ,kuruhuka mu mutwe ,ingingo zabo zikagororoka ,amaraso agatembera neza . Kandi uyu mukino wa basikete ,utanga akazi ku muntu uzagurisha wa mupira wo gukinisha basikete ,bikamufasha kubona amafaranga.

umukino wa tenisi utuma umuntu uwukinnye agorora ingingo ze cane cane nk'amaboko cangwa se igihe habaye nk'amarushanwa umuntu utsinze akabona n'amafaranga agakemuza ibibazo bye kandi umukino wa tenisi uhuza abantu bawukinnye muri sosiyete bagahura bataziranye bakamenyana bityo bakabana neza igihe bahuye bari kugukina

Umukino wa vore utuma abantu bakina basabana kandi utuma amakipe yihuje abana neza, ugatuma abantu bayikinnye bagorora ingingo zabo, bagatekereza neza mu bwonko bwabo, kandi ugahesha n'amafaranga abantu bawukina igihe batsinze.

Siporo yo kwirukanka n'amaguru iba ari nziza kuko ituma abari kwirukanka bishima, bambaye udupira twa Emutiyene bambaye n'udupira twa Beka bityo bigatuma ababareba bishima Kandi bakishimisha ,ubwonko bwabo bukaruhuka n'amagufwa yabo akagororoka neza, igihe bakoze iyi siporo yo kwirukanka n'amaguru.

siporo ituma abantu bishima urugero abakobwa n'abagabo bakishimana bakanezerwa bagasabana kandi siporo ituma umuntu anywa amazi menshi kuko umubiri uba wakoze cyane ibyuyabyaje bityo bigatuma amaraso agatembera neza kandi n'amagufwa ye akagororoka

Siporo, urugero nk'isiganwa ry'amagare, rituma aba abantu bari busiganwa bagira ubuzima bwiza. Urugero :amaraso agatembera neza, imitsi igakomera . Kandi bishimisha n'abantu baba babashagaye baje kubafana cyangwa se kubogeza. Kandi iri siganwa rituma umuntu aba uwa mbere ahembwa ibihembo bishimishije bityo bikamunezeza mu buzima.

Umusifuzi ni umuntu uba ushinzwe gukurikirana umukino w'umupira gw'amaguru, kugira ngo badashwana cangwa se ngo bashamirane. Akawukurikirana kuva gutangiye kugeza gurangiye, bityo bigatuma abakinnyi badashamirana cyangwa se ngo bashwane. Akababwira igihe uri butangirire n'igihe gurarangirira.

Umusifuzi usifura umupira wa vole, aba ari ingenzi, kuko atuma abawukina badashamirana cangwa se atuma abawukina bakoresha igihe cabo neza kandi uyu koca wo hejuru atuma abakinnyi b'umupira babana neza nta gushamirana.

Siporo, urugero nk' iyo gukina tenisi, ituma abantu basabana batandukanye, batandukanyije n'uruhu, urugero nk'umwirabura n'umuzungu bagahurira mu mukino wa tenisi, bityo bakishimana, bakaruhuka mu mutwe ndetse bakanasabana.

Iyo abantu bari gukina umupira ariko hariho n'abaganga ba croix rouge bashinzwe kwita ku bantu bagize ikibazo, bituma umuntu ugize ikibazo adashegeshwa niyo mvune agize kandi bigatuma atabarwa vuba akajyanwa kwa muganga cyangwa se agahabwa ubufasha bw'ibanze.

Siporo no gukina umukino wa basiketi bituma abantu basabana; abakobwa n'abahungu bakagira n'uburenganzira bungana kandi amagufa yabo akagororoka igihe bari gukina, bakishima, siterese zikagabanuka kandi n'amaraso ubwayo agatembera neza mu mubiri.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwa buri musi, kuko ituma umuntu agabanya siterese, amaraso agatembera neza, imitsi igakora neza, ikamurinda ubumuga bwo mu mubiri. Kandi siporo ituma abantu bayikoze baba bahuje umugambi, kandi bakabana neza. Siporo, iyo ikorewe hamwe, abantu bambaye umwenda ubaranga uko bari muri siporo, biba ari byiza, kuko bibafasha kurinda ubuzima bwabo.

Abakobwa na bo bahawe ijambo, kuko na bo basigaye baragira uruhare mu mikino no muri siporo, urugero nk'abakina za tenisi, biba ari ibintu by'agaciro, kuko babona ko bafite ijambo, bakaba banganya agaciro n'abahungu. Kandi iyo abakobwa bari gukina umukino wa tenisi bituma amagufa yabo agororoka,

Iyo abakinnyi bari gukina tenisi bafite na koci urikubayobora, ibyo bakora bituma badashwana kandi amakipe yombi bituma abana neza, kuko aba afite umuyobozi uri kubayobora mu byo bari gukora byose bityo bikabafasha guhura bagasabana ,bakaba batashwana kandi uyu mukino wa tenisi utuma ingingo zigororoka.

Iyo umukinnyi ari gukina umukino gwa tenisi bitumaga agorora ingingo ze. Urugero nk'amagufa akagororoka, amagufa yo mu maboko, ayo mu maguru, kandi bituma ubwonko bwe butekereza neza, siteresi zikagabanyuka, bityo bikamurinda kurwara bya hato na hato no kugira ubuzima bubi.

Koga muri pisine ni ingenzi kuko bituma umuntu yishima akanishimisha ndetse akaruhuka no mu bwonko, igihe yasohokeye ahantu hari pisine baza koga bituma umubiri we amaraso atembera neza, kandi bikanatuma ubwonko bwe butekereza neza akirinda siterese.

Abakinnyi iyo bari gukina vole bibafasha kuruhuka mu bwonko bikabafasha gusabana igihe baba bahuye bataziranye, bikabafasha kugorora ingingo zabo, urugero: nk'amaboko, amaguru kandi abakinnyi iyo bahembwe bibafasha kugura ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi bagafasha imiryango zabo.

Umukino w'amagare ni ingenzi kuko utuma umuntu uwukinnye, amagufa ye agororoka, mu mutwe agatekereza neza kandi siporo yo gukina amagare ituma abawukinnye basabana, babana neza kandi bihuza, sipora ituma umuntu uyikoze, atekereza neza kandi bikamurinda indwara za hato na hato.

Iyo abakinnyi b'umupira bambaye imipira isa zanditsweho Sikoro, babaga bari kwamamaza Sikoro kugira ngo ikinyobwa ca Sikoro gikomeze camamare, abantu bagikunde baciyumvemo kandi baje baraja kukigura, kandi iyo abakinnyi b'umupira bari gukina bibafasha kugorora ingingo zabo, kuruhuka mu mutwe ndetse no kwishima bakanasabana.

Abakobwa na bo kuba bakina tenisi ni ikintu cy'ingenzi kuko bituma basabana, bigahuza abakobwa n'abahungu, bakihuza bakishima . Kandi kuba bakina tenisi bibaruhura mu mutwe ,ingingo zabo zikagororoka n'amaraso yabo agatembera neza.

Umukino wa handibolo utuma abawukina basabana, kandi ugatuma abatsindiye igihembo babona amafaranga, yifashishwa mu gukemura ibibazo bya bo bitandukanye bya buri munsi, umukino wa handibolo utuma abawukina bagorora ingingo zabo, kandi bakanaruhuka no m'umutwe igihe bawukinnye.

Kuba abakobwa nabo bakina tenisi ni iby'agaciro kuko bituma abantu bagira uburenganzira bungana. Urugero nk'abahungu n'abakobwa baka bahuje uburenganzira kuko biba bigaragara ko umukino umuhungu ashoboye n'umukobwa yawushobora kandi uwo umukino utuma abantu bagororoka ingingo zabo bakanaruhuka mu mutwe.

Umukino wa tenisi uba ari mwiza, kuko umuntu uwukinnye agorora ingingo ze, urugero nk'amaguru n'iz'amaboko, kandi bigafasha umuntu uwukinnye kuruhuka mu mutwe, akishimisha, akanezerwa. Kandi iyo bari gukorera nk'ibihembo, uwabaye uwa mbere abasha guhembwa, akagura ibindi bintu akeneye, cyangwa bya ngombwa.

Umukino gwa vore gutuma amakipe abiri gatandukanye gasabana，kandi gakabana neza，iyo umukino gwa vore guri kuba，bituma ikipe imwe cyangwa indi iharanira igihembo， cangwa se gutsinda， kandi ugu mukino gutuma ingingo z'abagukina zigororoka，bikabarinda indwara kandi bakaruhuka no mu mutwe.

Imihanda zo mu midugudu cangwa se utuyira two mu mudugudu dufasha abacuruzi kuvana ibintu baranguye mu byaro babijana mu mujyi cangwa se abantu b'abaturage bakava mu byaro bakaja mu mujyi banyuze muri utwo tuyira cangwa se mu mihanda zo mubyaro.

Utuyira two mu byaro dufasha abantu bahegereye kunyuramo baja mu mugi kandi tukanafasha abantu kuja mu mirima zabo. Imirima zegereye utwo tuyira. Imihanda zo mu byaro cangwa se zo mu mudugudu zifasha abantu kuvana ibihingwa byabo mu byaro babijana mu mugi.

Imihanda yo mu midugudu cyangwa se utuyira two mu midugudu, ni ingenzi kuko amamoto anyuramo avanye abagenzi muri iyo mihanda. Abaturiye muri iyo mihanda bakabajyana mu mugi, cyangwa se n'ahandi hantu henshi hatandukanye, bagiye mu mirimo yabo cyangwa se hari n'ahandi hantu bagiye, bityo urugendo rukoroha kuri abo bantu baturiye iyo mihanda yo mu midugudu.

Imihanda yo mu midugudu ndetse n'utuyira tw'imidugudu ni ingenzi, kuko abaturage batuye muri utwo tuyira n' imidugudu, babona aho banyura bari kujya mu mujyi cyangwa se, bari kuvayo ,cyangwa se abahinzi batuyemo bakabona aho banyura bavana ibihingwa byabo ahantu h'imidugudu bari kubijyana aho barabigurishiriza mu mijyi.

Imihanda zo mu byaro n’utuyira bifasha abantu bahaturiye kuva mu byaro baja mu mugi, kandi zifasha n’abahinzi kuvana ibihingwa byabo mu byaro, cangwa si aho babihingiye, babijyana mu mugi kugira ngo babone amafaranga yo kwifashishwa mu kugura izindi mbuto bahinga ibindi bihingwa.

Imihanda zo mu mudugudu cangwa se n'utuyira zituma abantu baturiye hafi y'izo mihanda bagenda bakava mu gace kamwe baja mu kandi ,kandi iyo kuri izo mihanda hateye ibiti n'indabo bituma umwuka mwiza uza mu baturage batuye muri ako gace ibyo biti biherereyemo, kandi bigafasha n'abantu batuye hafi aho kugira ngo bahumeke umwuka mwiza.